Uyu ni umuporisi witwa Ja Bosiko, akaba yarigeze kuba umuvugizi wa porisi y'igihugu cyane cyane mu gihe cya Kovide, abantu bakundaga kumwigana "ku wa mbere ni guma mu rugo, ku wa kabiri ni guma mu rugo, kuwa gatatu ni guma mu rugo, kuwa kane ni guma mu rugo kuwa gatandatu ni guma mu rugo, ku cumweru ni guma mu rugo."

Aba ni abakora mu nzego z'umutekano harimo uw'umudaso harimo n'umupolisi, n'undi wambaye jire ntamenya icyo akora, ariko izo nkweto bafashe ni inkweto bita bote dukoresha cyane cyane ahantu hanyerera, cyangwa mu gihe tugiye mu misozi, cyangwa ahantu h'ibigunda.

Iki ni ikirango kigaragara ku myenda, ku myenda cyangwa ku myenda y'abasirikari, cyangwa ku bindi byangombwa byose by'abasirikari abasirikare, bafite amapeti yo hejuru iki kirango kiba gihari.

Iyi ni imbwa， imbwa ni itungo ribana n'abantu， kandi rigira ubwenge， rikaba rikoreshwa cyane cyane mu kurinda umutekano w'abantu， kuko rigira ubwenge ugereranyije n'izindi nyamaswa，kandi rikunda kubana n'abantu cyane.

Uyu musirikari ari kuganiriza abaturage gahunda za leta zirimo n'izo kwicungira umutekano biragaragara ko ari umusirikare mukuru kuko arinzwe n'umwesikoti ur'iruhande ye.

Aba ni abasirikari, harimo abasirikare babiri, hakabamo n'abapolisi, harimo n'umukozi wurwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, arirwo ribu, iyi foto yafashwe barangije tireyiningi cyangwa hari andi mahugurwa barimo.

Iyi ni imodoka bita kizimya mu mwoto, ni imodoka zifu zifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, nizo ziza ziba zirimo amazi zikazimya umuriro mu gihe hari ahantu habaye inkongi y'umuriro.

Aba ni abasirikari， abasirikare bari ku karasisi， aba basirikare basoje amasomo ya gisirikare yo kurwego rwa kadete， bakaba bari mu myiyereko aho bagiye guhabwa amapeti.

Abadaso abadaso ni abashinzwe umutekano wa buri munsi bakorera ku kagari no ku murenge, bari kumwe n'umusirikari n'umuporisi n'undi wambaye imyenda ya gisiviri.

Aba ni abantu bari mu bukwe, uko bigaragara bambaye abagabo bambaye amakoti, mu bagore harimo uwambaye imikenyero, bigaragara ko bari mu birori, ibirori by'umuryango bishobora kuba ari ubukwe cyangwa se ari abasuye abandi.

Aba bantu bari kubaka cangwa bari gukora iteme, iteme cyangwa ikiraro bitewe n'imvugo runaka. Iri teme uko bigaragara bari guteraho imisumari, barangije no gushiraho ibiti abantu banyuraho iyo bari kwambuka uyu mugezi.

Aba ni abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bitabiriye inama cyangwa bari mu biganiro, nyunguranabitekerezo kuri gahunda zitandukanye za leta, cyangwa kuganira ku kazi kabo bakora mu nzego zitandukanye za leta.

Iyi ni sare y'inama iberamo inama, inama cyangwa ibiganiro cyangwa ibitaramo. Uko bigaragara aba bantu bicaye, imbere yabo hari amazi, bari gutega amatwi umuntu utagaragara ushobora kuba ari imbere yabo, ari kubabwira ibintu bitandukanye.

Aba bana ni abana barindwi b'abazungu bari kumwe n'umwirabura umwe. Uyu mwirabura ari kubigisha kuboha uko baboha ibintu bitandukanye harimo ibirago cyangwa ibindi bintu. Kuboha biri mu muco gakondo w'Abanyarwanda.

Iriya ni inkono batekamo cyane cyane ni inkono batekagamo kera, hirya yaho hari ikibindi kirimo amagwa cyangwa inzoga. Inkono ko na ko ishobora kuba bari kuyitekamo inyama cyangwa se ibishimbo, ibi bigaragara mu muco nyagwanda cyangwa umuco gakondo w'u Gwanda.

Aba ni umukwe n'umugeni n'abandi babagaragiye, abo bita abafiyedoneli cyangwa abagarisodoneri. Ni abagiye mu bukwe bwo gusaba no gukwa.

Uyu ni umu agenti umu agenti wa emutiyeni, umu agenti wa emutiyeni ubitsa cyangwa akabikuza amafaranga. Bakoresha ku bantu bakoresha umurongo wa emutiyeni, bakoresha na serivisi ya mobayiromani.

Uyu muntu ari kudoda ari kudoda ibyibo, ibyibo biri mu muco nyarwanda kubiboha bakoresha ubwatsi, bagakoresha n'urushinge ,bagakoresha n'imifuka ,ubudodo buturuka ku mifuka.

Uyu ni umuvure. Umuvure ni igikoresho bakoresha benga benga inzoga cyangwa bakaba bawukoresha batara inzoga. Umuvure uba ukozwe mu giti bita umwungo. K muvure, hariho ubutanda. Ubutanda babukoresha mu gihe bari gukamura ibikatsi.

Iyi ni imyungu, imyungu ivamo uducuma. Uducuma dukoreshwa banywa ibinyobwa bitandukanye; inzoga, ubushera cyangwa ikigage. Uducuma ni ibikoresho gakondo byo mu umuco nyarwanda.

Aya ni amayugi y' ntore yambaye, amayugi abakozwe mu byuma, arimo utuntu tujegera, iyo bahamiriza bumva ari ibintu bivuga neza, biba bifite injyana z'umuziki.

Aba ni abantu aba ni abantu ba kera bambaye imishanana. Iyi foto bigaragara ko yafashwe kera kuko izi nyubako ni inyubako za kera ntabwo ari inyubako z'ubu n'abantu bambaraga imishanana cyane ni abantu ba kera.

Uyu ni umuduri. Uriya wambaye bya gitore ni uvuza umuduri, Uyu wambaye umushanana ,uriya uvuza umuduri ari kumwerekera uko bavuza umuduri.

Iyi ni inka, inka bita inyambo . Inyambo ni inka zigira amahembe maremare, zikaba ziranga n'umuco nyarwanda, uwo muntu ni umutahira abantu bavuga amazina y'inka.

Izi n'intore intore ni ababyinnyi bababyina indirimbo zo mu muco gakondo w'abanyarwanda baba bafite umwihariko wo guhamiriza no kuvuza amakondera no kuvuvuza.

Ababantu bari gusogongera akaba ari gusogongera mumuvure uyu muco cyangwa uy'umuhango wakorwaga mu gihe cy'umuganura kuko umuco gakondo cyangwa tujyatwizihiza umuganura. umuganura uba mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani uracyizihizwa mu rwanda.

Uyu muntu yicaye ku kirago, afite urushinge ari kuboha ibintu bitandukanye. Kuboha ni ibintu biri mu muco nyarwanda kuko no kuva na kera na kare abagore cyangwa se abakobwa babijyanaga ku ishuri bakiga kuboha.

Ibi ni ibyansi. Ibyansi ni ibikoresho gakondo byo mu muco nyarwanda, aho kera bakamiraga mu byansi, noneho kandi bakanabiterekamo amata. Muri make n'ibikoresho baterekamo amata. Kiriya iki kinini ni cyo bita ni igisabo bacundiramo amata.

Iyi ni imbehe igaragara mu muco nyagwanda. Hariho ibijyo bya kinyagwanda : amateke n'ibishimbo bivanze bikaba biri ku meza.

Izi izi ni intore cyangwa ababyinnyi b'intore abo twita muco gakondo w'abanyarwanda intore, aho babyina bahamiriza bavuna umugara.

Ibi ni ibiryo birimo imyumbati , harimo ibihaza, harimo n'ibijumba n'ibigori , hakaba hateretsemo hagati imbehe irimo imboga z'urunyogwe n'imboga z'ibishimbo, harimo na dodo.

Aba ni ababoshi ababoshi baboha ibintu bitandukanye harimo ibikapu byo gutwaramo ibintu harimo n'utundi dukapu duto aba mama bashobora gutwaramo nka telefone cyangwa mushwari nu tundi tuntu tutaremeye.

Aba ni abantu ba kera kuko bigaragara ko bafite amasunzu kandi aba...aba... bafite n'amacumu, abantu ba kera nibo bagiraga amasunzu kandi bakitwaza n'amacumu.

Izi ni inka, inka ziri gushoka cyanga ziri kunywa amazi aho zinywera amazi cyanga aha ziri kunywera amazi ni mu rubumbiro, uwo uri imbere ni umushumba wazo ari kuvoma amazi asuka muri ugo rubumbiro kugira ngo zinywe amazi.

Izi ni intore, aba ni ababyinnyi babyina imbyino gakondo, biyerekana bafata amacumu bavuna umugara. Intore ni umwihariko w'u Gwanda n'u Burundi, kuko ni ho ha hagaragara intore, aho babyina bambaye amayogi, banakenyeye imishanana bafite n'amacumu.

Iki ni ikibo kiri ku nkoko, ikibo ni igikoresho gikoreshwa mu gihe umuntu ajyaniye ifukirere umuntu, inkoko yo bayikoresha mu gihe bari gutoranya cyangwa bari kurobanura ibishyimbo, ibigori amasaka n'ibindi bihingwa cyangwa impeke bitandukanye.

Iki ni igicuma, igicuma kirimo umuheha. Igicuma ni igikoresho gakondo cy'abanyarwanda kuko nicyo kera bakoreshaga basangira basangira inzoga ari ikigage n'ibindi binyobwa. Nibyo kera bakoreshaga basangira kuko nta bindi bikoresho byari bihari usibye ibicuma.

Izi nI inka mu muco nyarwanda twita inyambo, uwo mugabo uri imbere wambaye imishanana ni umutahira ari kuvuga amazina y'inka.

Izi ni nka, izi nka imwe ni imbyeyi, indi ni ikimasa, ni ikimasa cyiza, izi nka ni inka z'ikibamba kuko zifite ibara ry'umukara n'umweru.

Ibi ni ibibumbano by'ingagi. Ingagi ni inyamaswa zikundwa cyane na ba mukerarugendo ziba muri parike y'ibirunga. Parike y'ibirunga iherereye mu karere ka Musanze.

Iyi ni butike cyangwa iduka ricuruza ibikomoka ku migano, harimo harim harimo intebe ,harimo uduseke n'ibindi bikoresho bikoreshwa ariko bituruka cyanga bibohwa mu migano.

Uyu muntu ari kuboha ikirago akoresheje ubwatsi bita ubusuga, anakoresheje umufuka. Urabona afite ni ubwatsi bw'ubusuga akoresheje n'umufuka. Afata umufuka akawusozora yarangiza akaba ari wo, akaba ariwo akoresha, ari kuboha ikirago.

Iki ni igihaza. Igihaza giteretswe ku ku mashara cyangwa se ibirere, iki gihaza kikaba kigaragara ko cyakuze bagikuje kugira ngo kizavemo imbuto.

Iyi n'ifoto y'umwami rudahigwa n'umwamikazi inyuma ye hari abapadiri n'abandi ba kristu iyi foto ishobora kuba yarafashwe igihe rudahigwa yemeraga kubatizwa.

Iyi ni Hoteli yaherereye mu Karere ka Musanze ruguru y'ahantu bita ku Kabindi aho bita kwa Robati, aho yubatse mu uburyo gakondo bugaragaza inzu za kinyarwanda zo hambere zabaga zisakaje ibyatsi.

Uyu ni umukambwe cyangwa umusaza ufite cyangwa uri kunywa itabi. Icyo kintu afite mu kanwa ni inkono y'itabi cyangwa igikoresho bakoresha banywa itabi. Itabi bita igikamba.

Aba ni abantu bari gukina igisoro, kiriya kiri hagati yabo, ni igisoro. Aba ni aba, bambaye imyenda gakondo cyangwa se imikenyero. Iriya ni inzu gakondo cyangwa inzu y'ibyatsi.

Iyi ni imitako, iyi mitako igaragara cyane cyane ku Cinigi, ahantu bacuruza ibintu byubukorikori, abazungu ni bo bakunda kuyigura bakayijyana iwabo mu mahanga, kuko uyu ni umwihariko gakondo w'abanyarwanda.

Iki ni icyibo, icyibo cyangwa se agaseke. Agaseke ni igikoresho gakondo mu muco w'Abanyarwanda aho bagitwaramo ibintu nk'ibishishyimbo, cyangwa izindi mbuto zitandukanye, mu gihe bagiye gusura umuntu cyangwa gutwerera umuntu.

Iri ni ivu cyangwa itazi, ni ibisigara nyuma yo guteka, abantu bateka bakoresheje inkwi, iyo bamaze guteka hasigara mu ziko hasigaramo itazi cyangwa ivu.

Aba ni ababyinnyi babyina imbyino cyangwa indirimbo gakondo, zibarizwa mu muco nyarwanda. Nkuko bigaragara abateze amaboko, ni ababyinnyi cyangwa ababyina imbyino gakondo.

Uyu ni umuvure, umuvure ni igikoresho bakoresha benga benga ibitoki kugira bakuremo inzoga cyangwa se umutobe, ariko bashobora no kuba bawutaramo inzoga. Banawukoresha bari kwenga cangwa se gushigisha ikigage n'ubushera.

Ni umuhigi ufashe umuheto uri gushaka kurasa inyamaswa, nk'uko kera mu muco nyagwanda atari n'umuco nyagwanda ahubwo muri Afurika abantu bakoreshaga umuheto, kugira ngo barase cyangwa bice inyamaswa mu gihe babaga bagiye guhiga.

Aba bantu bikoreye inkono. Inkono ni igikoresho gakondo gikoreshwa n'Abanyagwanda mu gutekamo, cyangwa bikaba bikoresha mu guteramo indabo n'ibindi bintu bitandukanye, bishobora gukoreshwa mu mitako. Ariko inkono cyane cyane ni izo gutekamo.

Izi ni isaha isaha igezweho iyi saha ni isaha ishobora gukorana na terefone, ukayikoresha witaba telefone iba iri konegite na telefone. Ku buryo iyo baguhamagaye ihita ibibona, cyangwa ukawa wa yitabiraho udafashe telefone.

Uru ni urusengero rw'abakatolika cyangwa paruwase runaka ni urusengero rw'abagatolika kuko hariho ishusho ya bikiramariya hakaba hariho n'umusaraba.

Iyi ni inzu ya kizungu igezweho, isakaje amabati bita udutegura, isize irangi jy'umweru.

Uru ni urusengero gw'abakristu, impamvu ari urusengero gw'abakristo yuko hejuru ruriho umusaraba, rukaba ruherereye ahantu ntabasha kumenya ariko ni urusengero gw'abakristu, rushobora kuba ari Abaporoso rushobora kuba ari Adeperi rushobora kuba ari Eberi cyangwa Eyari.

Uyu ni umudugudu, umudugudu wubakiwe abantu batishoboye cyangwa abantu bakuwe ahantu hibasiwe n'ibiza, kugira ngo batuzwe ahantu heza babasha, hazabasha kubaho nta kibazo bafite.

Uru ni urusengero, ni urusengero basengeramo ariko nkuko bigaragara hakicyariho n'izindi nyubako. Izi nyubako zishobora kuba zikorerwamo ibikorwa bijyanye n'idini cyangwa ari ahandi hantu abakristo basengera.

Iyi ni inyubako y'umurenge wa Gataraga. Umurenge wa Gataraga ni umwe mu mirenge igize akarere ka Musanze. Uyu murenge wa Gataraga uherereye mu burengerazuba bw'amajyaruguru k'akarere ka Musanze uba ugana Rubavu aha utangirira mu gasantere bita Gataraga.

Hano aba bantu ni abakirisitu bitabiriye igiterane runaka cyateguwe n'urusengero, hano ni kuri paruwase sente famiye i Kigali.

Aba ni abaveterineri bakorera ikigo k'igihugu kita ku buhinzi n'ubworozi RAB, bakaba bakora i Muhanga ku kigo gishinzwe ubushakashatsi ku nkoko.

Iki ni ikigo nderabuzima, iki kigo nderabuzima ni ikigo nderabuzima cya Kinigi, giherereye mu karere ka Musanze, murenge wa Kinigi. Iki kigo nderabuzima cyaravuguruwe mu minsi ishize, kugirango kijyane n'igihe.

Uru ni urusengero, ishobora kuba ari paruwase, cyangwa katederali niko bigaragara ko yitiriwe Mutagatifu, ni umutima mutagatifu wa yezu, ntabwo nz'ahantu iherereye, ariko ni urusengero rushobora kuba ari paruwase cyangwa katedarali.

Hano ni mu gasantere ka Kinigi. Agasantere ka Kinigi kari mu Murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Aka gasantere kitwa ka ntabwo ari mu Kinigi hagati, uba uvuye mu Kinigi ujya Cyanturo, cyangwa ku Kigo nderabuzima cya Kinigi. Hari icyapa kigaragara ko hari ishuri ryitwa Giyesi Kampanga.

Uyu ni umuhanda. Umuhanda wa kaburimbo uri muri karitsiye bita Nyarutarama. Nyarutarama ni karitsiye iherereye mu Karere ka Musanze iri munsi ya hoteli Faraja.

Uyu ni umusigiti aho abayisilamu basengera, ukaba ufite amasheminine yorohereza ijwi gusohoka, mu gihe bari gutanga inyigisho, cyangwa mu gihe bashaka kwibutsa abantu amasaha.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, urimo moto n'abandi bantu bari kugenda n'amaguru, uyu muhanda uri mu Karere ka Musanze.

Uyu ni umuriro w'amashanyarazi, iyi poto iriho tiransifo bigaragara, niho umuriro ba wongerezareza cyangwa kugirango ingufu z'umuriro ziyongere, naha babifatira ni umuriro w'amashanyarazi.

Iyi ni intebe, ariko ishobora kuba intebe cyangwa ikaba igitanda bitewe n'icyo umuntu ashaka. uko bigaragara, bigaragarako ishobora kuba intebe, ubundi ikaba igitanda bitewe n'icyo umuntu yifuza.

Iyi etage cyangwa se inyubako ni inyubako y'ishuri rya etefope inyubako ikaba ira ari dorotwari y'abanyeshuri biga mu ishuri rya etefope.

Uru ni urusengero rusengerwamo nk'uko bigaragara hari umusaraba, bigaragareko urusengero rw'abakirisitu rusengerwamo n'abantu bashobora kuba ari abakatolike, abadiventisite, abaporoso ,aba eperi n'abandi.

Iyi ni transifo, igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi ni cyo gitanga umuriro, gituma habaho kwiyongera k'umuriro cyangwa kugabanyuka k'umuriro.

Iyi ni inzu. Ni inzu ikorerwamo n' inzego z'ibanze. Ni ibiro by' Akagari. Ni akagari katagaragara ariko biragaragara ko ari ibiro by'akagari runaka.

Uyu ni umudugudu cyangwa inzu zubakiyewe abatishoboye cyangwa abavuye mu biza kugira ngo babeho neza bature aheza badashobora guhura n'ibiza cyangwa se bashobora gutura bisanzuye.

Uyu ni umufundi aho ari gukotera inzu afashe aka kuma afashe mu ntoki ni umukotezo akuma bafata bagashiraho sima noneho bagashira hagati y'amatafari kugira ngo amatafari abashe gukomera.

Iri ni itara jyo ku muhanda, aya ni amatara aba ari ku mihanda itandukanye yo mu gwanda ajya amurika mu gihe cy'ijoro, kuko imihanda nk'umuhanda wa Kigali Musanze uriho amatara amurika igihe cy'ijoro, imihanda yo mu mijyi itandukanye, aya matara aba ahari.

Iyi ni inyubako ya sako, sako, umurenge sako ni koperative zo kuzigama no kuguriza zashyizweho na guverinoma ya leta, kugira ngo zegerezwe abaturage, abaturage babashe kuguza cyangwa no kuzigama bitabagoye, babikorera mu mirenge ya bo.

Iyi nzu ni inzu ikorerwamo n'inzego z'ibanze cyangwa se umushinga runaka, ariko uko bigaragara bigaragara ko ushobora kuba ari ibiro by' Akagari cangwa se Umurenge.

Izi nyubako ni inyubako ziri i Busogo aha hantu hahoze komine Mukingo ariko ubu ni ibiro by'umurenge wa Busogo umurenge wa Busogo ni umwe mu mirenge igize akarere ka Musanze.

uyu ni umudugudu umudugudu ugezweho wubatswe mu m mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri wubaka na guverinoma y'u rwanda uyu mudugudu iherereye mu karere ka musanze mu murenge wa kinigi

Uyu muntu ari kubaka umuhanda, ari gushiramo, ari kubaka borodire ho ari gushiraho akayira k'abanyamaguru cyangwa inkengero z'umuhanda aho abanyamaguru bajya banyura.

Ici ni icigo nderabuzima iki ni kigo nderabuzima cya Kinigi kiri mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Ni ikigo nderabuzima cyavuguruwe mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri, kugira kijyanishwe n'igihe kuko ruguru ya ho bubatseho umudugudu ugezweho wa mayetage.

Iki ni ikiraro canga urutindo rwo mu kirere. Ibi biraro biri ahantu hatandukanye mu Gihugu, kuko byubakwa ahantu bigoranye ko bakubaka biriya birararo bisanzwe. Ibi biraro bikaba bifasha abantu cane kuko byagaragaye ko ibi biraro byari bikenewe. Hari ahantu kubaka ibiraro byari byaranze.

Iyi ni inzu y'abadive igizwe n'urusengero n'ibiro, iherereye ku Musanze o hepfo ya inesi ku muhanda ujya Gisenyi.

Iyi ni inka y'ikibamba ya kizungu，inka y'ikibamba cyangwa inka cy'ikibamba， iba ifite ibara ry'umweru n’umukara，kubera ko iri mu kiraro， imbere yayo hari umunyu irigata， uyumunyu uyongerera umukamo.

Iyi ni kiliziya iherereye mu Karere ka Rwamagana. Aa iyi ni paruwasi ya Rwamagana iherereye iri hafi y'ikigo bita Sente Aloyizi Rwamagana ni paruwasi gatorika .

Uyu ni umuhanda uri mu mujyi wa Kigali ariko ujya mu majyepfo aha ni kuri Ruriba, uyu muhanda wo ruguru uzamutse urazamutse ahantu bita za Nyamirambo kuri Noruveje.

Iri ni itsinda ry'abantu bari kuganira kuri gahunda zitandukanye za Leta. Harimo abagore harimo n'abagabo, harimo n'urubyiruko abana batarageza ku myaka makumyabiri n'itanu.

Iyi ni inteko y'abaturage, uriya muntu uri imbere ufite mikoro ashobora kuba ari gutanga igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ari no kubaza ikibazo.

Aba ni abaturage bari mu nama, aba baturage batonze umurongo bakaba bari kubaza ibibazo abayobozi batandukanye ibibazo bafite bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi cyangwa se bijyanye na serivisi.

Izi ni imfungwa. Ni imfungwa z'abasirikare kuko abasirikare ni bo bambara iyi iniforume mu gihe bafunzwe. Abandi bambaye imyenda y'umukara ni abashinjacyaha cyangwa abavoka.

Aba ni abanyeshuri bo ku kigo cy'ishuri runaka, bari kuganirizwa kuri gahunda za Leta zitandukanye cyangwa se bari kuganirizwa ku bijyanye n'uburenganzira bwabo.

Aba bantu bari mu nama ni abantu benshi, uyu mumama uri imbere ari kubagezaho ashobora kuba ari umuyobozi akaba ari kubaremesha inama, abagezaho gahunda zitandukanye za leta cyangwa ibindi bitandukanye.

Aba ni abantu bambaye udupira twanditseho wiki fo yumani rayiti tuwenti tuwenti fo, bigaragara ko bari mu bukangurambaga bugaragaza cyangwa gushishikariza abantu kubahiriza uburenganzira bwa muntu.

Aba ni abamotari baparitse bategereje abagenzi. Bambaye imyenda yamamaza sosiyete y'itumanaho yitwa tigo. Biba byanditse ku myenda yabo.

Iyi ni imodoka ya yo mu bwoko bwa fuso, fuso ntoya irimo abantu, hariho n'abandi bantu babiri bahagaze bari kureba ibintu biri inyuma y'iyi modoka.

Iyi ni imodokadoka y'itagisi, ariko itagisi iri moderine, ikoreshwa umuriro w'amashanyarazi, aho bacaginga batiri, yakuzura bakayishira mu modoka ikagenda ibirometero runaka, bakongera bakayisimbuza umuriro washiramo.

Iyi ni gare aho abantu bafatira cyangwa baviramo mu modoka, harimo imodoka zo mu bwoko bw'amakwasiteri n'amatagisi ,harimo n'abantu ba bava mu modoka cyangwa bagerageza gutega imodoka zerekeye mu byerekezo bitandukanye.

Izi ni imodoka z'amakamyo zitwara ibicuruzwa bitandukanye, zibizana zibizana mu rwanda, cyangwa zigiye zibijyana mu mahanga imodokadoka zo mu bwoko bw'amakamyo.

Iyi modoka itwara abantu yo mu ya kampani yitwa seregiti. Izi kampani za seregiti zikunda gukorera mu ntara y'iburasirazuba no mu majyepfo, niho zikunda gukorera urabona ko harimo umuntu.

Aya magare atatu aya ni amagare y'abanyonzi ahetse abantu batandatu, abatwaye ni abagabo bahetse aba mama. Amagare ni igikoresho gikoreshwa muri taransiporo cyane cyane mu gihugu hose ku bantu bafite ubushobozi buciriritse.

Ni igare uriya mufuka cyangwa imifuka uko ari ibiri. Irimo ibirayi iri mu igare rikoreshwa mu gutwara imizigo ahantu henshi mu gihugu, abantu benshi bakoresha amagare, mu gutwara imizigo yoroheje.

Izi ni imodoka zitwara abana nk'uko bigaragara, zigaragaza ko ari basi, ari sikurubasi. Izi modoka ziba zifite ibara jy'umuhondo, ziba ari imodoka zitwara, zijyana zikanavana abana ku ishuri.

Iyi ni gare y'imodoka aho imodoka zihagarara cyangwa zivana abantu bagiye ahantu hatandukanye, ari mu ntara cyangwa ahandi hantu runaka.

Izi ni imashini zikora umuhanda. Hariho n'imodoka iri gupakira ibitaka bivuye muri uyu muhanda, ikabijyana ku bimena aho byagenewe.

iyi ni imodoka yo mu bwoko ... yo mu bwoko bwa dipine cyangwa hoho ipakiye garaviye, ipakiye garaviye.

Aya ni amabisi. Aya mabisi atwara abantu. Ariko aya mabisi akunda gukorera cyane cyane mu mujyi wa Kigali atwara abantu muri rusange abajyana cyangwa abavana mu byerekezo bitandukanye by'umujyi wa Kigali.

Iyi ni imodoka itwara abantu，aya mabisi a akoresha amashanyarazi ni amabisi atwara abantu mu mujyi wa Kigali，akorera mu mujyi wa Kigali atwara abantu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali.

Iyi ni imodoka itwara imyanda. Aba bantu bayiri imbere ni abakozi bakusanya imyanda yo mu rugo. Ndabona yanditseho ase(AC).

Izi bisi ni bisi za kompani yitwa Royo ekisipurese. Iyi kompani itwara abantu mu mujyi wa Kigali mu byerekezo bitandukanye cyane cyane za Kicukiro. Mu bice bigana Kicukiro ni ho ikompani ikunda gukorehswa.

Iyine moto yo mu bwoko bwa rifani, rifane ni moto itwara imizigo imizigo yoroheje ibiro bitarenze ibiro magana, atanu cyangwa hasi ya toni.

Aba ni abamotari ni abamotari b'umujyi wa Kigali, kuko izi moto ni za moto zikoresha amashanyarazi, kuko mu ntara ho ntabwo zirahagera ahubwo ziba mu mujyi mu mujyi wa Kigali.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa hoho. Hoho ni imodoka zikoreshwa cyane cyane mu bwubatsi zitwara umusenyi, amabuye na garaviye, n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi.

Iyi ni gare, gare aho abantu bafatira cyangwa se bakavira mu modoka. Iyi gare ni gare iri mu mugi wa Kigali, ikaba ari gare ya Kicukiro.

Iyi bisi ni bisi ikorera mu mujyi wa Kigali, ikaba ari bisi ikoresha amashanyarazi, itwara abantu ibajyana cyangwa ibavana, mu byerekezo bitandukanye by'umujyi wa Kigali.

Imodoka ya bisi itwara abantu ya kampani ya Volukano, Volukano ni kampani ya taransiporo, itwara abantu bajya mu majyepfo bava i Kigali bajya mu majyepfo cyangwa bava mu majyepfo baza i Kigali.

Ni imodoka itwara abantu ya kampani yitwa Jari taransiporo taransipoti, iyo kompanyi ya Jali taransipo taransipoti ikorera mu mujyi wa Kigali akaba ari aya mabisi ariya mabisi, akoreshwa ingufu ingufu z'amashanyarazi.

Aha ni ku kibuga c'indege, uyu ni umukozi wo ku kibuga cy'indege ari kwereka abantu aho abantu basohokera n'aho binjirira, no kubarangira aho bashobora kubariza serivisi zitandukanye.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, ni imodoka itwara peteroli cyangwa se esanse, tuyita iveko.

Iyi ni gare gare aho abantu bafatira cyanga bavira mu modoka bajya mu byerekezo bitandukanye, iyi ni gare ya nyabugogo iri mu mujyi, iri mu mujyi wa kigali abantu bategera berekeza mu byerekezo bitandukanye by'igihugu.

Iyi ni imodoka inyuma ye hari umumotari ,iyi modoka ikora taransiporo cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ivana abantu cyangwa ibajyana mu byerekezo bitandukanye by'umujyi wa Kigali, aya mabisi niho agaragara cyane.

Ni bisi itwara abantu yo mu bwoko bwa tirinite, iyi bisi cyangwa kampani ya tirinite itwara abantu cyane cyane ibakura mu gihugu cy'u Rwanda ibajyana mu gihugu cya Uganda, ikaba ikora no mu majyepfo y'igihugu.

Iyi ni moto iyi ni moto yo mu bwoko bwa tevesi saventisenke. Uyu ni umumotari ashobora kuba ari umumotari, cyangwa undi muntu runaka ariko ufite moto.

Aba ni abamotari bo mu mugi wa Kigali kuko iyi moto ni moto ya Kampani yitwa Apasande, izi moto ni za moto zikoresha amashanyarazi imbere urabona ko hariho moteri cyangwa batiri bajya gusharija, umuriro washiramo bakongera bakajya kuyisharija bakayishira kuri moto.

Uyu ni umukinyi uri gutera umuhunda, umuhunda ni inkoni aba ari inkoni ariko barayitera cangwa bakajugunya bakabara ibirometero cyangwa metero umuntu yayijugunyemo.

Aba ni abakinnyi b'umupira wa basiketiboro, ura mupira ni umupira wa basiketiboro, aho ukinwa abantu bashira cyangwa baterera umupira mu gapaniye kaba kari hejuru ku ipoto.

Aba ni abafana bari gufana umukino wa basiketiboro. Bambaye udupira twanditseho bare bare ni irushanwa ry'amakipe yabaye iya mbere iwayo mu mupira, mu mupira wa basiketiboro, aba nkuko bigaragara ni abafana.

Aba ni abakinnyi b'umukino wa basiketibolo basiketibolo ni umukino bakina kugira ngo utsinde ufata umupira ukawujugunya mu nkangara cyangwa agapaniye kaba kari ku ipoto.

Aba ni abakinnyi bakina isiganywa cyangwa bakina umukino w'amagare, aha bari bari ku murongo batangiriraho isiganywa hano ni mu Rwanda kuko hari icyapa cyanditseho viziti Rwanda.

Aba bakobwa babiri ni abakinnyi b'umupira w'amaguru. Inyuma yabo hari abatoza bicaye. Uyu mukobwa ufashe umupira agiye kurengura umupira.

Aba ni abakinnyi ba basiketiboro, basiketiboro ni umukino ukinwa bafata umupira bakajugunya mu nkangara cyangwa agapaniye kaba kari ku ipoto. Aba ari amapoto abiri imwe itsinda mu ipoto ry'iyindi kipe.

Uyu ni umukinnyi wa Tenisi kuko afashe inkoni cyangwa raketi bakoresha bakina Tenisi, yambaye n' imyenda yabugenewe bambara iyo bakina Tenisi.

Aba ni umunyeshuri n’umwarimu, umwarimu ari kwigisha umunyeshuri uko bakina umukino wa volebolo. Uko bigaragara, ari kumwigisha ukuntu bafunga budoduwa, ukuntu batera umupira.

Iyi ni pisine cyangwa se ubwogero, aho abantu bajya bagiye koga ari mu mahoteri cyangwa se utundi tubari dukomeye tugira ama pisine, abantu bahajya bagiye koga kugira ngo bidagadure cyangwa se bakore siporo, siporo yo koga.

Aba ni abaterete cyangwa abakinyi bakina umukino wo kwiruka, bari mu mu marushanwa kuko bambaye imyenda iriho nimero zibaranga mu marushanwa.

Uyu mukinnyi ari gukina umukino bita yoga. Yoga kuko n'umukino bakina bigorora cyangwa bakora siporo zitandukanye, siporo iba isaba umubiri ugororotse.

Uyu ni umukinyi, umukinyi wo mu mikino ngororamubiri, uyu mukino ni umukino wo guterera cyangwa se kujugunya umuhunda, umuhunda bafata inkoni bakayiterera, bakabara metero iyo in nkoni yayijugunyemo.

Aba ni abakinnyi b'umupira w'amaguru harimo ikipe ya Reyo siporo n'ikipe ya Gasogi efuse, kuko uyu mukinnyi ufite umupira yambaye umwambaro w'ikipe ya Reyo siporo, n'uriya wambaye imyambaro y'umukara hariho ikirango cya tivi wane ikaba ari ikipe ya Gasogi yunayitede.

Uyu ni umukino wa handiboro uyu mukobwa afashe umupira agiye kuwutera mu izamu uriya ni umupira wa handiboro kuko ni wo bakina bakoresheje intoki.

Ni ikipe y'umupira. Mu ikipe y'umupira w'amaguru, uko bigaragara ni abakinnyi cumi, cumi na batatu byumvikana ko harimo abatangira cumi n'umwe nabandi basimbura, n'abasimbura batanu.

Aba ni abakinnyi b'umupira bita voreboro, bari gukina kompetisiyo urwego rw'Afurika, kuko aha bari ni muri sitade aho bita peti sitade.

Uyu ni umukinyi w'umukino wo gusiganwa ku magare, umukinnyi w'umunyagwanda kuko yambaye ibirango by'ikipe y'igihugu y'u Gwanda birimo idarapo ry'u Gwanda, hano ari mumarushanwa ari kuzamuka aho bita kwa Mutwe.

Aba ni abakinnyi ba volebalo cyangwa umukino twita volebolo. Nkuko bigaragara umwe ni umukinnyi w'ikipe ya aperi volebolo karabu, undi ntabwo bigaragara ikipe akinira ariko izi kipe zose zikina mu cyiciro cya mbere cya volebolo.

Uyu ni umukinnyi wa voreboro yuko uyu bigaragara ko ari gukina umupira wa vore. N'abandi bantu bari inyuma ye bari gukina, buri wese afite umupira ari gukina vore.

Aba ni abakinnyi bakina umukino wo koga kuko imbere yabo hariho pisine. Bamaze gutsindira igikombe, bari gushimigwa n'abayobozi batandukanye kuko babasha kwitwara neza mu marushanwa bibarimo.

Aba ni abakinnyi ba tenesi, iki kibuga kiri mu karere ka Musanze hepfo y'akarere. Aho hari santere yigisha abana n'abandi bantu bakuru, gukina umukino wa tenisi, umukino wa tenisi baba bafite aga tenesi n'inkoni bita raketi.

Ni umukinnyi wa voreboro nk'uko bigaragara, yatwaye igikombe cy'umukinnyi witwaye neza nk'uko bigaragara mositevoreboropureya, akaba ari umunyarwanda nk'uko bigaragara ku myenda yambaye.

Iyi ni inzu iri mu Rushubi, Rushubi ni centre iri ruguru yo mu Kinigi, aha hegereye ahari icyicaro cya Dayana Fose, Dayana Fose kikaba ari ikigo cy'ubushakashatsi cyita ku binyabuzima cyane cyane ingagi.

Uru ni uruzitiro ni uruzitiro rw'ibiko, ibiko ni igiti gakondo cy'abanyarwanda cyane cyane, cyaterwaga kera mu marembo kikaba baragikoreshaga bugarira.

Iki ni ikigega cy'amazi, ikigega cy'amazi kiri muri santere ya Kinigi. Hano ni muri gare, aya mazi ni amazi akoreshwa muri tuwalete, tuwaleti rusange cyangwa ubwiherero rusange bwo muri gare ya Kinigi.

Iyi modoka yo mu bwoko bwa paradolandekuruza iparitse mu gasantere, aka ni agasantere ka Kinigi, uyu muhanda wa kaburimbo ni umuhanda uzengurutse gare, aha ni ho imodoka zinyura ziva cyangwa zijya muri gare.